Abagabo n'abagore bari mu murima bafite amasuka basa naho barimo batunganya ifumbire, iruhande rwabo hari igikapu gifite ibara ry'umukara ndetse n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi.

Abagabo bane, bari ahantu mu murima bafite amasuka basa nkaho barimo batunganya ifumbire, umwe muri bo wambaye ingofero n'agapira k'umutuku, karimo amabara y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abagabo n'abagore bari mu murima bafite amasuka, umugabo umwe yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto zifunze z'umukara, abagore bamwe bafite udutambaro mu mutwe.

Umugabo uri mu murima mu bihingwa bitandukanye, bifite amababi afite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibindi byatsi biri ku ruhande rwe, afite ipompo mu mugongo imufasha kuhira ibihingwa.

Umuntu usa n'umugore ufite igitambaro mu mutwe wicaye mu murima, arimo atunganya ibihingwa inyuma ye hari n'abandi bantu ndetse n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi n'amazu.

Umugabo n'umugore bahagaze mu murima munini, bafite ibitaka mu ntoki, imbere yabo hari umufuka ufite ibara risa n'umweru wererutse.

Abagabo n'abagore bari mu murima usa n'aho uhinzemo ibigori bifite amababi afite ibara ry'icyatsi, umwe mu bagabo yambaye ingofero y'umukara.

Igiti cyegereye ibigori. Bisa nkaho bihunitswe, byumye bifite ibara ry'umuhondo. Hejuru yabyo hari ishashi ku ruhande rwabyo.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye, bifite amababi afite ibara ry'icyatsi, ibindi bifite amababi afite ibara ryenda gusa n'umuhondo wererutse.

Umurima munini uhinzemo imyaka, urimo n'ibiti bibiri ,bifite amashami n'amababi afite ibara ry'icyatsi kijimye cyane.

Umurima uhinzemo ibihingwa bifite amababi afite ibara ry'icyatsi, uzengurutswe n'ibiti byinshi n'ibyatsi na byo bifite amababi afite ibara ry'icyatsi.

Umudamu wambaye agapira k'umukara karimo amabara y'umweru, mu mugongo harimo kane yandikishijwe umweru n'igitenge, ari gukata ibitoki birambitse ahantu hasi, ku ishashi isa umukara.

Umurima uhinzemo ibigori byinshi bifite amababi y'icyatsi n'ibigori bifite imisatsi yenda gusa n'umukara.

Umurima urimo inyanya, zimwe zeze zisa umutuku, n'izindi zitarera neza zisa umuhondo wererutse, biri ku giti gifite amababi y'icyatsi.

umurima urimo ibihingwa bitandukanye, harimo amateke ndetse n'ibindi, byose bifite amababi ari mu ibara ry'icyatsi n'ibiti na byo bifite amababi ari mu ibara ry'icyatsi.

Umurima munini uhinzemo ibihingwa bifite amababi asa icyatsi, wegereye ibiti binini birebire bifite amababi na yo asa icyatsi.

Umurima uteretsemo amasashi arimo ibitaka afite ibara risa n'umukara wijimye, muri ayo mashashi arimo ibitaka, hateyemo ibiti bisa nkaho ari iby'ikawa bifite amababi asa n'icyatsi.

Abagabo n'abagore bari imbere y'ubutanda bwubakishijwe ibiti, mo hagati yabo hari amasashe barimo gushyiramo ibitaka afite ibara ry'umukara ndetse n'andi arimo ibara ry'umweru wijimye.

Abagabo n'abagore bari mu murima, inyuma yabo hari ubutanda bwubakishije ibiti, hagati yabo hari ibibuto by'avoka barimo bameze nkaho bari kubitoragura.

Umurima urimo ibihingwa bifite amababi afite ibara ry'icyatsi ndetse n'udusagi dufite ibara ry'umweru, dufashe kuri ibyo biti bihinze muri uwo murima.

Umurima urimo ibyatsi byinshi, bivanze n'imibyare ifite amakoma afite ibara ry'icyatsi n'ibindi byatsi biri ku ruhande yayo makoma bisa icyatsi.

Igitoki gisa icyatsi kiri ku mubyare wacyo ufite amakoma asa icyatsi, gifite amabere mato atarakura n'utuntu tumeze nk'uturabo kuri buri bere dusa n'umweru.

Uducupa dutatu dufite ibara ry'umweru ndetse n'imifuniko yatwo ifite ibara ry'umweru, hariho ibipapuro byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'andi ari mu ibara ry'umutuku.

Abagabo n'abagore bafite amasuka, bari mu murima ukikijwe n'ibiti byinshi bifite amababi afite ibara risa n'icyatsi.

Umugabo wambaye ingofero ndetse n'isarubeti ifite amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, mu imbere yambaye agapira gasa umweru, inyuma ye hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi cyijimye.

Abagabo n'abagore bafite amasuka, bari mu murima urimo ibyatsi ndetse n'ibihingwa bitandukanye, bifite amabara asa n'icyatsi.

Abagabo benshi bari mu murima basa nk'aho barimo batera ibihingwa bitandukanye, umugabo umwe yambaye ingofero undi yambaye agapira ndetse n'ipantaro, agapira gafite ibara ry'umukara ndetse n'umutuku wijimye.

Abagabo n'abagore bafite amasuka barimo bahinga iruhande rw'umuhanda, inyuma yabo hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibihingwa bitarimo bigaragara neza.

Umugabo umwe ufite isuka mu ntoki, wambaye agapira ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara ryijimye, ari iruhande rw'inzu ndetse n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi cyererutse, arimo akata icyondo.

Umugabo usa nk'aho afite isuka ahagaze mu murima arimo akura imyumbati yarihinze muri uwo murima, yegereye ibiti bifite amashami ndetse n'amababi y'icyatsi.

Abagabo babiri bahagaze mu byatsi, imbere y'imiba myinshi bigaragara nkaho ari inkwi, umwe wambaye ingofero, undi ahagaze wambaye umupira usa n'umukara.

Abagabo bari mu nzu ahantu hameze nkaho hakusanyirizwamo imyaka bayipakira mu mifuka ifite ibara risa n'umweru, umwe muri bo yambaye ingofero ndetse n'agapira gafite ibara ry'umweru.

Ahantu hagaragara nkaho ari mu isoko, hateretse imifuka myinshi, iri mu ibara ry'umweru, irimo imbuto zigiye zitandukanye, harimo ibishyimbo, ibijumba n'ibindi.

Ahantu mu cyumba hasa naho hahunikwa imyaka, hari ibirayi byinshi ndetse n'umufuka ufite ibara ry'umweru ndetse n'akandi kabara gatoya gasa n'icyatsi cyijimye.

Amasaka y'amahundo arambitse hasi, bisa n'aho ari mu mbuga, mu rugo ahantu runaka, yegereye igikuta cy'inzu, hasi gato hari akantu gafashe ku nzu, gafite ibara ry'umukara.

Umurima uhinzemo ibiti by'imyumbati byinshi bifite amababi afite ibara ry'icyatsi, ndetse uzengurutswe n'ibyatsi byinshi n'ibiti bifite amababi y'icyatsi, bimwe ari icyatsi cyijimye.

Abagabo babiri n'umugore umwe, bari mu nzu ahantu hameze nk'aho bahunikira imyaka, barimo bapakira inyanya mu mifuka ndetse no mu isafuriya, umufuka ufite ibara ry'umweru n'andi magambo yanditseho n'inyanya zisa umutuku wererutse.

Abahinzi benshi, abagabo n'abagore bari mu murima munini wegereye ikiyaga, uhinzemo ibigori bifite amababi asa icyatsi.

Umurima uri ahantu runaka, urimo ibiti byinshi bigiye bifite amashami kandi birebire, byegeranye n'ibyatsi bisa icyatsi impande y'ibyo biti.

Umurima urimo ibiti byinshi bifite amababi asa icyatsi, ndetse harimo ibiti bimwe bisa n'umugorora, amababi yabyo na yo afite ibara ry'icyatsi.

Umurima urimo imibyare ifite amakoma asa n'icyatsi cyijimye, irimo n'urubingo rufite amababi y'icyatsi.

Umurima urimo ibyatsi byinshi n'ibiti bifite amashami ndetse n'amababi afite ibara ry'icyatsi kijimye.

Umurima urimo ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi ,ndetse n'igiti kiri hagati y'ibyatsi gifite amababi afite ibara ry'icyatsi kijimye, ku ruhande rwabyo hari ibiti.

Umurima urimo ibiti ndetse n'imibyare ifite amakoma afite ibara ry'icyatsi ndetse harimo n'ibyatsi bimwe bifite ibirabo, bifite amabara asa n'umutuku.

Umurima urimo ibyatsi ndetse n'ibiti, harimo igiti cy'umuyenzi ufite ibara risa n'icyatsi ndetse n'ibyatsi birimo bifite ibara ry'icyatsi cyijimye.

Ubutanda bwubakishijwe ibiti bimwe bihagaze ibindi biri hejuru yabyo, mo imbere harimo imibyare ifite amakoma y'icyatsi, ku ruhande hari ishitingi isa ubururu.

Umurima urimo ibyatsi n'ibiti birebire bifite amababi asa icyatsi cyijimye, munsi yabyo hari n'ibindi byatsi bifite ibara ry'icyatsi cyijimye.

Umurima urimo ibyatsi ndetse n'ibiti byinshi bifite amababi n'amashami, amababi yabyo afite ibara ry'icyatsi cyijimye.

Umurima urimo ibyatsi bivanze n'ibiti bifite amababi asa n'icyatsi cyijimye, iruhande rwabyo hari imigwegwe ifite ibara ry'icyatsi.

Umubyare ufite amakoma asa icyatsi, ndetse n'umukanana wegereye urubaho, iruhande rwaho hari inzu isakaje amategura.

Umurima urimo ibiti byinshi bifite amababi afite ibara ry'icyatsi, igiti kimwe muri byo ari kinini kandi ari na kirekire.

Umurima uteretsemo amasashi afite ibara ry'umukara arimo ibitaka mo imbere hahinzemo ibihingwa bisa n'ibiti bifite amababi asa icyatsi.

Umurima urimo ibiti bifite amababi asa n'icyatsi cyijimye, muri uwo murima hubatsemo inzu yubakishijwe amatafari ahiye ariko isakajwe n'amategura.

Umurima uhinzemo ibitunguru by'amababi bifite ibara ry'icyatsi, ku ruhande rwaho hari uruzitiro rwubakishije ibiti ndetse n'imbaho.

Umurima urimo ibihingwa bifite amababi afite ibara ry'icyatsi bisa n'aho ari icyayi, inyuma yaho hari n'ibindi byatsi bifite amabara y'icyatsi.

Amaseri abiri y'imineke n'indi itatu isa nk'aho itagaragara neza, iri ku nkoko, yose hamwe.

Ibisima bimeze nk'ibiba biri mu isoko bizengurutswe n'imbaho, hejuru hariho imbuto zitandukanye zirimo imineke n'avoka.

Agatanda gakozwe mu mbaho, hejuru hariho shitingi ifite ibara risa ubururu, kuri shitingi harambitseho imyembe n'izindi mbuto zitandukanye.

Umurima uteretsemo umufuka ufite ibara ry'umweru, muri uwo mufuka harimo urusenda rwinshi rufite amabara y'umuhondo ndetse rumwe rufite amabara y'umutuku.

Akarima k'igikoni kubakishije imifuka n'ibiti, imifuka ifite ibara ry'umweru mo imbere harimo ibihingwa ndetse n'imboga zitandukanye, zimwe zifite amababi afite ibara ry'icyatsi.

Umurima urimo amasashi arimo ibitaka ndetse amasashi afite ibara ry'umukara ryijimye, muri ayo masashi harimo ibihingwa bifite amababi asa icyatsi.

Ubusitani burimo ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi ndetse hahinzemo n'igiti k'ipera, gifite amababi afite ibara ry'icyatsi.

Umuntu wicaye imbere y'icyuma ndetse afite imbuto zirimo amatunda n'ibinyomoro, amatunda ari mu ibasi ndetse no mu ishashi.

Umukobwa uri mu murima urimo ibihingwa byinshi n'imbuto, afashe igiti cy'ikinyomoro, gifite amababi afite ibara ry'icyatsi n'inyuma ye hari ibiti n'ibyatsi bifite amababi afite ibara ry'icyatsi.

Umurima uhinzemo intoryi, mo hagati hashinzemo agati gafasheho akantu gafite ibara ry'umweru.

Umugabo uhagaze mu murima munini w'imbuto wambaye agapira ndetse n'ipantaro, afite ubwanwa bwinshi busa umukara.

Umurima uhinzemo ibiti by'insenda, bifite amababi afite ibara ry'icyatsi ndetse rwezeho n'imbuto z'urwo rusenda.

Agatanda kari ahantu runaka kariho ibinyomoro, amatunda n'indimu ku ruhande, hirya gato hari izindi mbuto zitari kugaragara neza.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye, harimo ibigori n'amababi y'ibihaza, afite ibara risa icyatsi n'ibigori bifite ibara risa icyatsi.

Igiti kinini gifite amashami menshi cyegereye igipangu cyubakishije amatafari ahiye, igiti gifite amababi asa icyatsi ndetse n'imbuto.

Abagore babiri bahagaze imbere y'akarima k'igikoni karimo imboga zifite amababi afite ibara ry'icyatsi, bose bambaye ingofero.

Ubusitani buzengurutswe n'indabo zifite amabara y'umuhondo n'icyatsi, harimo n'amwe y'umweru, hagati harimo ibyatsi, hahinzemo indimu.

Ubusitani bufite ibyatsi bifite amababi afite ibara ry'icyatsi, buzengurutswe n'urugo ruriho ibyatsi na byo bifite ibara ry'icyatsi.

Umurima urimo ibiti bifite amashami n'amababi afite ibara ry'icyatsi, ndetse bisa nkaho ari ibiti by'avoka biri muri uwo murima.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye, harimo intoryi zifite amababi asa n'icyatsi, uzengurutswe n'ibindi byatsi bifite ibara ry'icyatsi.

Umuntu umwe uri mu murima w'intoryi zifite amababi asa icyatsi, wambaye umupira ndetse n'ijipo ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Imyaka ipakiye mu mabasi, irimo imiteja isa icyatsi, hirya gato hari ibasi isa icyatsi, n'indi basi byegeranye irimo karoti. ni...

Umugore uri kumwe n'umwana, imbere yabo hari akarima gikoni umwana ahagazemo, karimo imboga zifite amababi afite ibara ry'icyatsi.

Ibitunguru birambitse hasi ku mufuka ufite ubudodo bw'umweru, n'ibitunguru na byo bifite ibara ryenda gusa n'umweru wijimye.

Akarima k'igikoni kubatse imbere y'urugo karimo imboga nyinshi zifite amababi afite ibara ry'icyatsi. Ako karima k'igikoni kubakishijwe ibiti ndetse n'imifuka ifite ibara ry'umweru.

Umurima urimo ibihingwa byinshi bivanze n'ibyatsi, byose bifite amababi afite ibara ry'icyatsi mo hagati harimo uruhombo rurimo rurasohora amazi.

Umugabo wambaye ingofero y'urugara n'agapira k'ubururu n'ipantaro y'ikoboyi isa ubururu n'inkweto zifunze n'agakomo ku kaboko, afite uruhombo, arimo aruhira imyaka, hirya ye hari akajerekani gasa ubururu, ari kumwe n'umusore wambaye agapira k'umweru n'ikabutura y'umukara.

Umurima uhinzemo imyaka, uhagazemo abagore babiri bafite itiyo y'amazi, barimo baruhira ibihingwa bihinze muri uno murima.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye bifite amababi afite ibara ry'icyatsi, ndetse ku mpande yawo hari ibiti na byo bifite amababi ari mu ibara ry'icyatsi.

Umurima urimo ibyatsi bifite ibara risa n'icyatsi n'udusagi hejuru dufite ibara ritarimo rigaragara neza, wegeranye n'ibiti bifite amababi asa icyatsi cyijimye.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, harimo imibyare ifite amakoma asa mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibishyimbo birimo bifite amababi afite ibara ry'icyatsi mo hagati harimo inzu yubatsemo ebyiri zifite amategura.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, harimo imibyare ifite amakoma asa icyatsi ndetse n'ibindi bihingwa birimo bifite amababi afite ibara ry'icyatsi.

Umurima munini urimo ibyatsi byinshi bifite ibara ry'icyatsi ndetse haruguru yaho hari inzu n'ibiti bibiri bitagaragara neza.

Umurima urimo ibyatsi ndetse n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi n'abana barimo hagati mu murima, bambaye udupira dufite ibara ry'ubururu, iruhande y'amazu.

Umugore n'abana babiri, umwe wambaye inkweto imwe ifunguye, ifite ibara risa n'umuhondo, n'undi wambaye inkweto ebyiri zifunguye, imbere yabo hari umufuka ufite ibara ry'umweru, ndetse n'inkoko eshatu ziri imbere yabo.

Ingurube ifite ibara ry'umweru, iri mu kiraro cyubakishije ibiti ndetse n'imbaho, irimo kumwe n'utubwana twayo tune.

Inkoko ziri mu cyumba cyubakishijwe ibiti ndetse n'imbaho, imbere yazo hari akadobo gafite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Ikiraro cyubakishijwe ibiti ndetse harimo inka imwe ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, irimo irarya ubwatsi imbere.

Ihene ebyiri zihagaze iruhande rw'amabuye, zifite amabara y'umukara n'umweru n'umugozi uziritse ku kiraro cyazo cyubakishijwe ibiti ndetse n'imbaho.

Umugore wambaye ikanzu y'umuhondo, afite ingurube irimo irarya cyangwa iranywa mu ibasi isa ubururu ari kumwe n'umwana wambaye ijipo isa ubururu n'agapira gasa ubururu gaciyemo amabara y'umweru.

Abantu benshi harimo abagabo, abagore n'abana bari mu isoko barimo bagura banagurisha ihene zimwe zifite amabara y'umukara n'izindi zifite amabara y'umweru n'andi mabara yandi yijimye.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze imbere y'ikibuti cy'inkwavu, bafite inkwavu mu ntoki zabo, inkwavu zifite ibara ry'umweru n'urundi rukwavu rumwe rufite ibara ry'umukara n'umweru.

Ikiraro cy'inka cyubakishijwe imbaho n'ibiti, gisakajwe n'amabati, mu kiraro harimo inka imwe ifite ibara ry'umukara n'umuntu uri kure utagaragara neza.

Umugabo urimo uratemera inka ubwatsi wambaye ingofero ndetse n'agapfukamunwa gasa umukara n'umupira usa umutuku n'ipantaro, mu kiraro cyubakishije ibiti n'imbaho, harimo inka ebyiri imwe ifite ibara ry'umukara.

Umugabo n'abagore bamwe basutamye abandi bahagaze, bafite inkwavu mu ntoki zabo, zimwe zifite amabara y'umweru n'izindi zifite amabara y'umweru n'umukara.

Abagabo batanu bari mu nzu ahantu imbere y'ikibuti cy'inkwavu, cyubakishijwe ibiti ndetse n'imbaho, bafite inkwavu mu ntoki zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Ikiraro cyubakishije ibiti, kikaba gisakajwe hejuru ibitusi mo imbere harimo inka imwe ifite ibara ry'umukara ndetse mu gahanga kayo hari akabara gato k'umweru.

Umurima urimo inka nyinshi ndetse inka imwe ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, iziritse umugozi mu ijosi ufite ibara ry'umweru, ihagaze mu murima ufite ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi.

Ikiraro cyubakishije ibiti, hejuru gisakajwe n'ibiturusi. Mo imbere mu kiraro harimo inka imwe ifite ibara ry'umukara.

Inka ifite amabara y'umukara n'umweru n'icebe rinini, iri mu kiraro cyubakishijwe ibiti ndetse gisakajwe n'amabati, irimo irarya ubwatsi.

Icyumba kirimo ingurube eshanu zifite amabara atandukanye, imwe ifite ibara ry'umukara n'indi ifite ibara ry'umweru ku nda, imwe muri zo ifite iherena ku matwi.

Ikiraro cyubakishije ibiti, mo imbere harimo inka eshanu zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, mo inyuma mu kiraro harimo inkoko ebyiri zifite amabara y'umweru.

Ingurube ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara byijimye, imbere yayo hari ibibwana byinshi bifite amabara y'umweru n'umukara, mu kiraro cyubakishije ibiti n'imbaho.

Ingurube ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, yabwaguye ibibwana byinshi bifite ibara ry'umweru, iri mu kiraro cyubakishije ibiti ndetse n'imbaho.

Inka ifite amabara y'umukara n'umweru, iri ahantu mu kiraro cyubakishije imbaho, imbere yayo hari ubwatsi, hirya ku ruhande hari akantu k'ubururu katagaragara neza.

Umuntu wambaye agapira k'umukara gafite amabara y'umweru ku rutugu no ku kaboko, wambaye ipantaro y'umukara yanditseho inyuguti ya A mu ibara ry'umweru uri mu kiraro k'inkoko nyinshi zifitemo utudobo ziriramo dusa n'umutuku.

Ingurube iri ahantu mu kiraro cyubakishije ibiti harimo n'ibyatsi imeze nkaho irimo kurya cyangwa kunywa mu isafuriya isa umukara.

Umurima urimo ibyatsi ndetse uhinzemo n'izindi mbuto zitandukanye mo hagati harimo umuferege w'amazi.

Abagore bari mu murima w'intoryi bafite amabase abiri yuzuyemo intoryi, ibase imwe isa ubururu ndetse amababi y'intoryi asa icyatsi cyijimye.

Umurima urimo ubutanda bwubakishijwe ibiti, bugasakazwa ishitingi isa umukara, bigaragara ko hinajijwemo ingemwe z'ibihingwa runaka.

Abagore ndetse n'abagabo bari munsi y'ubutanda bwubakishijwe ibiti ndetse bafite amasashi menshi, barimo barundamo ibitaka afite ibara ry'umukara.

Umurima urimo ubutanda bwubakishijwe ibiti, hejuru busakajwe n'ikintu cyenda gusa n'ishitingi y'umukara, mo hagati mu butanda hinajijwemo ingemwe z'mbuto, n'ibindi bintu bitandukanye biri mu mashashi asa umukara.

Umurima uhinzemo imboga zifite amababi asa icyatsi, wegereye urukuta rw'amatafari ahiye, imbere yarwo hari izo mboga.

Umugabo wambaye ishati ndetse n'ipantaro n'umukandara w'umukara, uri mu murima urimo ibihingwa bifite amababi afite ibara ry'icyatsi. Ku ruhande rwaho hari ibyatsi ndetse n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Umugabo wambaye ingofero isa umukara n'ikote n'ipantaro isa ubururu na bote z'umukara, ari mu kiraro arimo akora ku nka, ifite amabara y'umukara n'umweru.

Umurima urimo ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'abagabo babiri, umugabo yambaye isarubeti ifite ibara ry'ubururu mo imbere muri uno murima harimo n'andi matungo.

Umugabo wicaye ku kiraro cyubakishijwe ibiti n'imbaho, wambaye isarubeti isa ubururu, mu kiraro harimo inka ifite ibara ry'umukara n'umutwe w'umuntu urimo urahinguka mu kiraro.

Abagabo babiri bari kumwe, umwe yambaye isarubeti isa ubururu, mu mugongo harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, munsi y'ameza harimo igitoki kitarimo kigaragara neza.

Abagabo bari mu murima bahagaze mu byatsi bifite ibara ry'icyatsi, bari kumwe n'inka ifite amabara y'umukara ndetse n'mweru, umugabo umwe yambaye isarubeti ifite ibara ry'ubururu ndetse n'inkweto zisa n'ibara ry'umweru.

Inka ntoya y'akanyana, iryamye hasi ku byatsi, ifite amabara asa umweru ndetse n'umukara.

Abagabo batatu bari mu murima ufite ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi ndetse harimo n'inka zirimo muri ibyo byatsi, umugabo umwe yambaye ingofero y'umukara.

Abagabo batatu bahagaze iruhande rw'inzu ndetse n'ikiraro cyubakishije ibiti kikaba gisakajwe n'ihema, muri icyo kiraro harimo inka imwe ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara indi iri hanze ifite nayo ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Inyoni ihagaze ahantu mu byatsi bifite ibara ry'icyatsi ndetse ifite amabara menshi atandukanye mu nda yayo ndetse n'umunwa n'amaso bifite ibara ry'umukara.

Inyoni ihagaze ku giti gifite udushami duto dutoya, inyuma yayo hari amabara asa icyatsi cyijimye kitagaragara neza.

Imbwa ifite amabara y'umweru ku maboko yayo y'imbere, ifite urukwavu mu kanwa ahantu hari ibyatsi bisa icyatsi mu kayira gatoya gacamo hagati.

Inyoni ihagaze ku giti umunwa wayo usa umutuku, ifite amaso afite ibara ry'umukara, mu nda hayo hafite ibara ry'umuhondo n'amababa arimo ubururu ndetse n'umukara, inyuma hari ibara ry'icyatsi ritagaragara neza.

Inyoni iri mu kirere ifite amababa, amwe afite ibara ry'umukara ndetse andi afite ibara risa n'umutuku, inyuma yayo hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi bitagaragara neza.

Inyoni ihagaze ku giti ifite umunwa n'amaso bifite ibara ry'umukara ndetse mu nda yayo ifite ibara ry'umutuku, inyuma yayo hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umutuku wijimye bitagaragara neza.

Inyoni ebyiri zihagaze ku giti zifite iminwa ifite amabara abiri, ibara ry'umuhondo ndetse n'iry'umutuku, zifite amababa afite amabara y'ubururu bwererutse. Inyuma yaho hari ibiti bifite amabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo wijimye.

Ibisiga bibiri bifite amabara y'umukara ku mababa ndetse kimwe gifite ibara ry'umweru ku ijosi, bihagaze mu murima munini.

Inyoni iri ahantu hameze nko mu ishyamba, ifite amabara y'umukara n'umweru, inyuma hari ibintu bimeze nk'ibiti cyangwa ibyatsi bitagaragara neza.